Inzu nziza yicayemo abantu batatu b'abamama, Kandi imbere yaho hateretse amazi yo kunywa, bafite n'amasakoshi n'ibitabo n'ibyibo. inzu nziza cyane irimo n'imitako myiza cyane.

Urubuga rushinzwe uburezi mu Rwanda, amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye aho ushobora kurebera amakuru ndetse n'amatangazo binyuze kuri uru rubuga rw'iki kigo gishinzwe amashuri makuru ndetse na za sogodere.

Urubuga rugaragaza serivise z'abacuruzi bashyashya bashaka kwiyandikisha, aho wiyandikisha muri iki kigo kikaba cyagufasha kuguha imisoro n'amahoro.

Inzu igeretse, kandi hanze hari abantu, ibiti, ndetse n'imbuga ishashemo amabuye. Aha hantu hagaragara nk'inyubako ya leta, igirwa, ikorerwamo ibikorwa bya leta.

Imodoka izwi ku izina, imbangukiragutabara, aho yifashishwa mu kugeza umurwayi kwa muganga, kugira ahabwe ubutabazi bwihuse, kuba yamufasha kumugeza kwa muganga vuba kugira ngo adakomeza kurembera mu rugo.

Ihuriro ry' abantu batwara amapikipiki bigaragara nkaho ariho ziparika, cyangwa zihagarara. Hari ndetse n'umunara, inyuma yaho hari umusozi muremure cyane uriho ibiti n'ibyatsi.

Imodoka yikoreye imizigo iremereye cyane imbere hari umumama numugabo hakurya yaho hakaba hari inzu bigaragara ko ari umugi.

Imodoka itwara imizigo iri mu muhanda, impande yaho har' igare ririho abantu babiri bose bambaye ingofero.